Icyumba cy'inzu kirikoreramo inama y'abayobozi bakora mu buvuzi bw'ubuzima aho bari kwicara bari mu byiciro ku ntebe zisize ibara ry'umutuku, ndetse imbere yabo ya buri byiciro akaba ariyo akameza kari mu ishusho y'uruziga kashyizweho igitambaro cy'umukara cyatetsweho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umukobwa ukiri muto wambaye agatenge k'umutuku ndetse akaba yarisukishije ibituta, akaba ari gukaraba intoki z'ibiganza imbere ya robine igizwe n'icyuma kiri kuvamo amazi yo kunywa ndetse munsi amazi ari gukaraba akajya mu ibase isize ibara ry'umukara.

Umukobwa ukiri mutoya, wambaye agasengeri ndetse n'ijipo, akaba ari ku mugezi ari kuvoma amazi, ari bwitwaze mu kijerekani kinini cy'umuhondo, iruhande rwe hari kugaragaraho ibyatsi byera ku mugezi.

Umuhungu wambaye agashati k'icyatsi ndetse n'ipantaro akaba yayikunje, imbere ye hariho rubine iri kuvamo amazi ari gukaraba akoresheje amaboko yombi ndetse iruhande hariho indobo nini isize ibara ry'ubururu.

Umwana ukiri mutoya wambaye agapira k'amaboko magufi k'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara akaba ndetse yambaye n'ipantaro y'icyatsi, imbere hari robine ifashe ku rukuta rusize ibara ry'ikigina rukaba rwarashyizweho robine y'amazi aya mazi akaba ari kuyakoresha ari kwihanagura mu maso.

Umwana wambaye agapira ndetse n'akajipo akaba yagiye kuvoma amazi afite ibijerekani imbere bisize ibara ry'umuhondo, ndetse yishyizeho igitenge mu gitugu cy'iburyo ku ruhande hariho umugore wambaye igitenge cy'ubururu ari kumuvomera amazi.

Ifoto iri kwamamaza umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima bw'abana ku isi, hakaba hariho umwana uri gukarabya undi amazi asukuye munsi yaho hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, bikaba byarabaye muri bibiri na makumyabiri na kabiri ndetse na bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugabo wicaye hasi yegamiye urukuta rusize irangi ry'umuhondo akaba yambaye imyenda isa nabi y'umukara ndetse n'ingofero afite amashashi arimo amazi yo kunywa ndetse n'uduti mu kuboko kw'ibumoso kwe.

Umugabo ndetse n'umugore bahagararanye n'urubyiruko, rwambaye imipira y'ubururu isa yaba abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari mu kigo gishinzwe kuvura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bikaba bigizwe n'amakaro ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

Abagabo bambaye amakoti ndetse n'abagore bambaye amakanzu ndetse n'udupira, bakaba bahagaze ku ma esariye bari mu byiciro impande yabo mu kuboko kw'ibumoso ari kugaragara icyapa gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo ufite ubwanwa akaba yambaye agatuza, akaba yiziritse urudodo ku ntoki zombi ziri ku biganza, akaba ari kugaragaza uburyo bukoreshwa kugira ngo uhanagure amenyo mu gihe inyama cyangwa se ibindi biryo byafashe hagati y'amenyo abiri.

Umwana ukiri mutoya wicaye ku ntebe y'ubururu, akaba yambaye agapira k'umweru ndetse n'agakanzu k'icyatsi, afashe ubuso bw'amenyo mu kuboko kw'iburyo bwe, ari kuborosa ururimi rwe, inyuma hari aka m ndetse n'utukarito.

Icyumba cy'inzu cyo mu bitaro kikaba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se aho umuntu ashobora kwikuza iryinyo, akaba ari kugaragaraho intebe ndetse n'utumezaeza turi gukorerwaho ubushakashatsi tugizwe n'ibyuma byabugenewe ndetse n'ibindi abaganga bakoresha.

Abagore bahagararanye bane, hejuru ya mapave bakaba bambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda isize ibara ry'ubururu, isa n'inkweto zifunguye, inyuma hakaba hariho inzu y'amagorofa menshi igizwe n'inkuta zisize irange ry'icunga ndetse n'umuhondo, zikaba zanditsweho inzu y'ababyeyi.

Icyapa gikozwe mu cyuma kiri imbere y'i ibaraza, kikaba cyanditswe ko hari ibitaro bya kabgayi mo imbere hari kugaragaramo akayira k'igitaka ndetse karimo n'amabuye, kakaba kari kugendwamo n'umunyonzi uhetse ibintu inyuma ye, ku ruhande rw'ibumoso hari kugaragaraho pasiparumu yatewemo amapoto abiri y'amatara.

Icyumba cy'inyubako kigizwe n'inkuta z'ikigina ndetse n'ibirahure hakaba harimo ibikoresho byabugeneye birukankiraho, ibyo banyongeraho ndetse n'ibindi bahagararaho bakaba bameze nk'abari kugenda bikaba bifasha umuntu gukora siporo neza.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ahagararanye n'umunyeshuri we wambaye agashati k'icyatsi, afite agakarito kabonerana karimo igishushanyo cy'amenyo, inyuma ye hari abagabo ndetse n'abagore bahagaze, n'ikibaho gisa umukara cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umunyonzi uri guparika igare rye mu muhanda wa kaburimbo ari kumwe n'umugenzi, inyuma ye hakaba hateretse indobo hasi ndetse n'umwana ari ku ruhande rwe, hakurya hariho ibitaro bikikijwe n'igipangu gifite inkuta z'amatafari ahiye akaba ari santere do sante y'igisenyi.

Icyumba cy'inzu gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'akabutura gatoya akaba ari gusunika icyuma cyashyizweho ibiro byinshi biri mu ishusho y'uruziga akaba ari gusunika ari hejuru y'itapi y'icyatsi.

Umuganga wambaye agapira ndetse n'ipantaro by'ubururu, akaba ari kumwe n'umurwayi we aho ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kwifashisha umugozi muremure usize ibara ry'umuhondo, yafatishije amaboko yombi kugira abashe kuvurwa vuba.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura aho ari gukora umwitozo ngororamubiri yafashe akaguru k'iburyo yagahinnye akagashyira imbere, inyuma yarambuye akaguru k'ibumoso ndetse ikigaragara kikaba bifasha kurambura imikaya iri hagati y'amaguru.

Akame k'umweru kashyizweho icupa ririmo amazi yo kunywa ku ruhande hariho pome ndetse n'icunga n'izindi mbuto ziri kuru ruhande bikaba biri kumwe n'ibyuma baterura muri siporo ndetse n'imetero ipima uburebure bikaba byifashishwa mu gihe umuntu akora siporo aho aba ashishikarijwe kunywa amazi ndetse no kurya imbuto z'amoko atandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro akaba ari hejuru y'itapi isize ibara ry'ubururu ari gukora siporo ya yoga aho yarambuye ukuguru kw'ibumoso, yafatishije akaboko k'iburyo ndetse n'ibumoso n'akaguru k'iburyo ya gahinnye.